Umukobwa wambaye ipantaro y'umukara n'ijire y'ubururu, afite mikoro yagiye ahantu mu giturage ahagaze mu gasambu yateranyije abaturage benshi ari kubakoresha inama.

Amazu abiri meza yo guturamo, asize irangi ry'umuhondo, ari mu gipangu hifite urugi rw'umukara, rurimo akabara gatukura. Igipangu gikikijwe n'indabo nziza cyane.

Umugi mutoya bigaragara ko utuje urimo amamodoka makeya, amagare makeya, abanu bakeya, ndetse namapironi yegeranye abiri.

Hano bigaragara ko ari kwa muganga hari abantu benshi abagabo n'abagore bafite ibintu bitandukanye ibikapu, amabase, utujerekani urabona ko baje gusura abarwayi bari mu bitaro.

Icyapa cyerekana aho bafatira imiti iruhande rwacyo hari inzu bigaragara ko ari ivuriro, hari umudamu uri gutambika ava ku ivuriro yerekeza aho bafatira imiti, hari n'undi musore wambaye umupira w'umukara, uri kuva aho bafatira imiti yerekeza ku ivuriro, imbere y'ivuriro hari imodoka zihahagatse.

Hano hari inzu nziza cyane igeretse, iri ahantu heza ndabona hari abantu babiri bashaka kuyunjiramo umudamu ndetse n'umugabo, hakaba hari n'amamodoka atatu meza aparitse.

Iyi ni gereza ya Nyanza ariko ntabwo hagaragara amazu y'imbere, hagaragara aho binjirira urugi rugizwe n'amabara y'umukara n'umuhondo, haruguru ya gereza hari amashyamba y'ibiti byinshi byegeranye.

Icyapa kinini gishinze ku mapoto abiri cyanditseho ivuriro rya Gicumbi mbere yo kwinjira hari akapa karimo hagati y'amapoto gatukura kari kubuza abantu kwinjira.

Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda arikwiyamamaza yambaye ishati y'umweru yanditseho efuperi , arikumwe n'abantu benshi cyane bafite amadarapo yanditseho efuperi.

Ndabona hano ar' ahantu muri sare hateraniy' abantu, abagabo n'abagore bari mu nama bari kwiga kukintu runaka ,umugabo umwe ateye agatoki agiye kubaza ikibazo.

Iyi ni sale nziza cyane iteguye neza, irimo abantu ubona bari mu inama, barikubakurikirana, imbere hari abandi bahicaye bari kubakoresha inama.

Iyi foto uratwereka abakandida batatu biyamamarizaga kuyobora u Rwanda mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi harimo Filipe Muyimana, harimo Habineza Frank na nyakubahwa perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ndabona imodoka ya tiriniti n'indi modoka ntoya ihagazeho nyirayo ndetse n'umukanishi n'abandi bantu bahagaze iruhande rwayo n'umumotari uparitse ku ruhande udafite umugenzi ahetse.

Mu muhanda harimo imodoka itagaragara neza ipakiye amamatera menshi atwikirije ihema ry'ubururu yabisikanye n'igisa na moto ariko atari yo itwawe n'umuhungu.

Umuhanda urimo imodoka y'ikamyo irimo umuntu mbere ndetse n'inyuma hicaye undi. Imbere yayo hari moto ihetse umugenzi, umuhanda ukikijwe n'ibiti inyuma y'ibiti hari indi modoka y'ikamyo.

Iyi modoka imwe irimo amabara menshi umuhondo, ubururu, umweru iri mu muhanda irimo umushoferi, imbere yayo gato hari umugabo wambaye imyenda y'abantu bakanika amamodoka wambaye n'ingofero.

Umuhanda munini ugabanyijemo ibice bibiri, umuhanda wo hirya nta kinyabiziga kirimo, umuhanda wo hino urimo ibinyabiziga bibiri, moto iriho umumotari uhetse umukobwa, n'inyuma hari indi modoka.

Hari amamoto atandatu y'ubururu ari inyuma, hari n'andi mafoto asanzwe imwe umumotari uhetse mugenzi, ayandi arimo abamotari bonyine. Nkaba mbona bari gushishikariza abamotari kwitabira kugura ariya mamoto yandi ndeba.

Mu muhanda urimo ikamyo y’ubururu iri kugenda iruhande rwayo, hari umunyonzi wapakiye ibintu mu mufuka. Hari n’abamotari bane, batatu bagaragara neza, bahetse abagenzi. Hari n’undi utagaragara.

Ibinyabiziga mu muhanda bitwaye ibintu n'abantu moto ebyiri ziri mu cyerekezo kimwe, imwe ihetse umugenzi indi itwaye ibintu inyuma, imbere hari indi modoka iri imbere ya za moto hari n'indi modoka biri kubisikana.

Kwasteri y'umweru irimo umushoferi wenyine ibisikanye na moto, umumotari atwaye umugabo uteruye umwana mu cyerekezo kimwe na kwasteri, imbere hari moto iriho umumotari wenyine.

Hano ni mu Mujyi wa Kigali mu masaha ya nimugoroba ntago habona neza hari inzu ebyiri za etaje, hakaba imodoka ebyiri z'umweru na moto inyuma ihetse umuntu, inyuma hakaba izindi modoka ebyiri no hakurya nkahabona indi modoka ebyiri.

Ahantu heza cyane hubatse amazu meza akikijwe n'ibiti byiza cyane anakikijwe n'inzu nziza ya etaje ndetse n'indi y'amabati.

Aha hantu ni heza, hari amazu meza, hatari akajagari, ateyeho ibiti byiza ndetse n'utwatsi twiza, biragaragara kandi ko hari umuhanda mwiza ku buryo ufite imodoka yabasha kugera mu rugo neza.

Hano ni kukicaro gikuru cya RURA, hakurya hari abamotari bane, n'umugabo uhagaze uruhande rw' abamotari ,hari n' undi uri hakurya wambaye umupira w' umweru, urimo utubara n' ingofero uri kwitegereza ahantu abo bamotari bari